Salle y'inama hicayemo abantu benshi, imbere yabo hari ameza ariho mashine bakoresha, amazi yo kunywa y'Inyange, hagati hateyemo indabo nziza cyane, amarido ahazengurutse.

Abantu bicaye ubona ko bashyize hamwe bafite icyo bari kwigaho, imeza hagati yabo, mashine bari gukoreraho, ajenda ku ruhande, telefone mu ntoki, bike, amazi yo kunywa ateretse.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umweru imbere yabo hari ameza babateguye amazi barima uhagaze ariko kubagezaho ibyo bagenewe.

Ni abantu bicaye ubona ko bateze amatwi banyotewe no kumva ibyo bari kubwirwa, hagati yabo hari ameza ariho igitambaro cyicyatsi, isakoshi hejuru, terefone, mashini igendanwa.

Abantu batatu bicaye muri sale y'inama, ameza arambitseho ibitabo, amazi yo kunywa hejuru, ubaha ikiganiro ubona ko ahagaze basobanura ibiri kubera muri iyo nama.

Ni muri sare iberamo inama, abantu benshi bicaye bateze amatwi ibiri kuvugirwamo, ameza ateretseho ibitabo, ikirahure, amazi yo kunywa, telefone,...

Ni umudamu uhagaze ufite mikoro mu ntoki, baji mu ijosi, yambaye ishati y'amabara y'ingwe, ijipo y'umukara, amarinete inyuma ye hari idirishya rikinguye.

Abantu benshi bicaye hagati hari ameza ariho igitambaro cy'umuhondo bari kuganira ubona ko bishimye. Tapi nziza cyane y'ubururu ibyapa hagati birimo amatara menshi yaka neza.

Abantu benshi bahagaze muri jaride, inyuma yabo hari idarapo ryu Rwanda, inzu ihinguka, urutoki, bafite ihene ubona ko bishimye bigaragara ko baboroje kugira ngo bivane mu bukene, babone ifumbire yo gushyira mu mirima, bave mu bukene bareke kwigunga.

Abantu benshi bicaye ku ntebe hagati hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, ikindi cy'amabara umukobwa uhagaze wambaye imyenda y'umutuku n'umukara, hagati hari ivase irimo ururabo.

Abamama bicaye bahanze amaso umugabo uri imbere yabo wambaye neza, ikote ry'umukara n'ishati y'ubururu, karuvati mu ijosi ari kubagezaho ibitekerezo bye, imbere yabo hari ameza ariho ibitabo bari gukoresha, amazi yo kunywa ateretse imbere yabo.

Umukobwa uhagaze afite mikoro mu ntoki, ubona ko ari kuvuga, hagati hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, umudamu wicaye wambaye ishati y'umutuku, ipantaro y'umukara, udukarita turi imbere yabo barimo kurebamo, umusaza uhagaze wambaye rineti, ishati y'amabara atambitse.

Abantu benshi bicaye mu nama, ameza y'umutuku arambitseho ibitabo, amazi yo kunywa, ubari imbere ayoboye iyo nama afite mikoro mu ntoki, yambaye ishati y'amaboko maremare,...

Abantu benshi bicaye bahanze amaso ubona ko bari kwitegereza ibiri kuvugirwa imbere yabo, bambaye neza amakarita abaranga mu ijosi, imbere yabo hari ameza manini ateretseho amazi yo kunywa ibirahure.

Bicaye mu nama bari gukurikira ibivugirwamo umunyamakuru utuje afite kamera ari kureba ibiri kuvugirwamo abifata amashusho, ameza ariho amazi ndetse na ji mikorofone zibateretse imbere.

Ahagaze mu nama atanga amabwiriza mikoro mu ntoki, badge mu ijosi, ipantaro nziza atezwe amatwi n'abamukurikiye. Ameza ariho amazi yo kunywa.

Ni sale irimo abantu bicaye, umwe afite mikoro ari gutanga ibiganoro. Yambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru. Ameza ateretseho agaseke keza, amazi yo kunywa.

Bicaye mu nama bahuje umugambi, intebe nziza cyane, amazi yo kunywa, indabo muri sare, ameza meza

Abasore babiri bicaye bafite bike mu ntoki, imeza iriho amakayi barikwandikiraho, tekawe y'icyayi imbere yabo, amazi y'Inyange yo kunywa, hirya hari abandi ubona ko bifashe mu gahanga inyuma hari kamera ishinze.

Abantu bicaye mu nama, ameza hagati ariho igitambaro cy'umweru, mashina ziteretse ku meza ubona ko bahugiyemo, umuntu uhagaze imbere yabo yambaye imyenda y'icyatsi, afite sikirini yanditsemo ibintu, ari kubasobanurira.

Abantu bicaye ubona ko bahuze imbere yabo hari ameza, ariho amazi yo kunywa, ikayi, mudasobwa ebyiri ziteretse, indabo zigaragara ko zisa neza cyane-

Ihema rinini cyane ry'umweru rishinze, hicayemo abantu benshi bahuje umugambi, bari kuganira. Uri imbere yabo yambaye ipantaro y'umukara, agashati k'ubururu, afite irangururamajwi mu ntoki, arimo arabagezaho ibiganiro.

Tente y'umweru yicayemo abantu benshi, ameza ariho igitambaro cy'ubururu, umuntu uhagaze bigaragara ko ari guha abaturage ikiganiro, abashinzwe umutekano nabo ati twaje kubashyigikira.

Ni sare nziza cyane y'inama yicayemo abantu bakurikiye imigabo n'imigambi. Ameza ateretseho amazi yo kunywa, imashini z'ikoranabuhanga z'udu...

Abantu bicaye, imbere yabo hari ameza y'umweru, amazi y'inyange yo kunywa, umudamu uhagaze wambaye ipantaro, ishati y'umukara, afite irangurura majwi mu ntoki, arambuye akaboko bigaragara ko ari kuvuga, hari icyo ari kubagezaho.

Icyumba kiberamo inama hicayemo abantu benshi mbere yabo hari ameza ariho irangururamajwi, telefone , amazi yo kunywa inyuma yabo hari uhagaze arimo abafata amashusho n'amajwi.

Yicaye muri sale arimo gutanga ibiganiro bamukurikiye bamuteze amatwi imbere yabo bafite bafite interineti hari amazi yo kunywa.

Abagabo batatu bicaye ubona ko bahuje umugambi, barishimye bateze amatwi. Imbere yabo hari ameza ariho amazi yo kunywa y' inyange, icupa ririmo umuti wo gukaraba w'ubwirinzi bw'indwara zandura.

Ihema risakaye ryicayemo abantu benshi, harimo abashinzwe umutekano w'igihugu cyacu umumama uhagaze imbere yabo uri kubasuhuza yishimye, aseka, anezerewe n'uko barimo kumubwira neza yambaye umupira.

Ni ihema rinini ry'umweru, umutuku, n'umuhondo, hicayemo abantu benshi ubona bateze amatwi, imbere yabo hari umugabo ufite mikoro, wambye ikote ry'umukara, ubona ko hari ibyo ari kubasobanurira. Ku ruhande hari umudamu uhetse umwana, wambaye ikanzu y'ubururu, inyuma hari bafure.

Urubyiruko rwinshi ubona ko bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga bwo kwirinda sida, inyuma yabo hari inzu ya etage, imbere yabo hari umupolisi uhagaze ubabwira ko bagomba kubikorana ubushishozi.

Urubyiruko rwicaye muri sare, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro amakayi bari kwandika mo amazi yo kunywa y'Inyange, inyuma hari rido zifunze.

Abantu bicaye muri sare y'inama, umudamu uteze igitambaro mu mutwe, ufite mashine ari gukoresha. Yambaye ikote rya shokora, umupira w'umukara, ameza ateretseho amazi yo kunywa, ajenda iriho bike hejuru.

Urubyiruko rwicaye ubona ko ruhanze amaso, bari kumva, bari gutekereza, baragezwaho uburyo bakwihangira imirimo bakikura mu bushomeri bakava mu biyobyabwenge bagatera imbere, amazi imbere yabo yo kunywa kugira ngo be kwicwa n'inyota.

Bicaye mu nama bateze amatwi uri kubagezaho ikiganiro bahuje umugambi, imbere yabo hari kompiyuta y'ikoranabuhanga bandikamo ibiri kuvugirwa muri iyo nama bicaye ku meza arimo ateretseho amazi yo kunywa.

Abantu bicaye mu nama hagati yabo hari ameza afite ikirahure hagati, bafite amakaye imbere yabo, isakoshi iteretse, mashine bakoreraho, inyuma hari umuryango ufunguye bigaragara ko hari umuntu ushaka kwinjira ngo abasange mu nama.

Inzu ikorerwamo inama yicayemo abantu benshi, bateze amatwi bahanze amaso uhagaze imbere yabo ari kubasobanurira, abagezaho ibyo bari buvugiremo, kamera bafite mu ntoki barimo gufata amashusho y'ibiri kuvugirwa mo n'ibiri gukorwa.

Abantu bicaye ubona ko bahuje urugwiro bari kuganira. Umudamu wambaye ishati y'umutuku, shanete mu ijosi, amarinete, imisatsi myiza cyane. Imbere yabo hari ameza ariho amazi y'inyange yo kunywa, ikirahure cyo gusukamo, amakayi mu ntoki.

Ni abantu benshi ubona ko bicaye muri sare y'inama bateze amatwi, imbere yabo hari ameza, hariho amakayi bari kwandikamo, amazi ateretse y'inyange yo kunywa, terefone ku ruhande,...

Ni sare y'inama irimo abantu bicaye ku ntebe, babiri ubona ko bari kubazanya ibivuzwe, terefone mu ntoki, imeza iriho ikirahure cy'amazi, ivaze irimo ururabo,...

Abadepite bicaye mu nteko shingamategeko ari benshi, ameza imbere yabo ariho ibitabo, amazi yo kunywa, baratureberera muri byinshi, amategeko agenga igihugu cyacu, ibyemezo ngenderwaho niho bifatirwa.

Bicaye mu nama ari benshi cyane, bambaye imyenda itandukanyije amabara, icyatsi, umuhondo, ameza ariho igitambaro cy'umweru, ubururu n'umuhondo, agaseke keza cyane kaboshye mu migwegwe k'icyatsi, umuhondo, umweruru, ubururu, ji kumeza, amazi y'inyange yo kunywa.

Ni abantu benshi ubona ko bicaye bateze amatwi, ameza ariho igitambaro cy'umweru, hejuru hariho ajenda, telefone, amazi yo kunywa

Abadamu batatu bicaye batuje bakurikiye inama irikuvugwa, imbere y'abo hari agaseke keza cyane, igitabo cyo kwandikamo. Ku meza hari amazi yo kunywa isakoshi

Ni sare nini cyane, abantu bicaye ubona ko bahuze; bike mu ntoki, amakayi ku ntebe, ubona ko hari ibyandikwa. Imbere hari imeza iriho igitambaro cya...

Ni abantu benshi bicaye, ubona ko bahanze amaso ibi imbere, ameza ateretse, ariho kompiyuta, itasi, ikirahure kirimo amazi, ibitabo bari gukoreramo, umukobwa wambaye rinete.

Abantu benshi cyane bicaye munsi y'ibiti, imbere yabo hari umuntu uhagaze umanitse amaboko wambaye ipantaro n'ikweto, ishati, biragaragara ko hari icyo ari kubaganirizaho kugirango bungurane ibitekerezo.

Itsinda ry'abantu ubona ko bashyize hamwe bafite akanyamuneza barimo guseka bambaye neza pe! Abahagaze abicaye barimo kwifotoza kugirango bagire urwibutso bazajya biyibukiranyaho dushyize hamwe dukoreye hamwe twakorera igihugu cyacu imbaraga zihuje.

Umusore aricaye afite akanyamuneza imbere ye hari ameza ateretseho kompiyuta y'ikoranabuhanga inyuma yaho hari akameza k'icyatsi gateretseho fotokopiyeze.

Ni icyapa kigaragaza ko wakwitinyuka ukagaragaza impano ikurimo muri wowe, ukaba waba umukire mu buryo butandukanye utsindiye ibihembo wabyina, wasetsa, waririmba.

Utubido dutandatu duteretse ku meza, tw'umweru, hirya yatwo hari udukarito tw'amata ndetse n'ibiribwa bifite ibara ry'umuhondo, biteretse ku kameza.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri barimo kwiga. Intebe, ameza ari imbere yabo ariho imashini bakoresha kugira ngo batyaze ubwenge. Umwarimu uhagaze umanitse akaboko bigaragara ko ari kubabaza niba ibyo yabagejejeho babyumvise.

Ni iminara miremire isakaza amajwi n'amashusho kugira ngo tumenye amakuru agezweho, televiziyo zacu zigaragare neza, telefone twumve amajwi nta nkomyi.

Abantu benshi bicaye muri sare, imbere yabo hari ameza ariho mashini bari gukoresha. Hari uhagaze ari kubigisha, ubona ko ari kubasobanurira, bateze amatwi, barimo kwandika. Amazi ku meza yo kunywa y'Inyange

Abagabo babiri bahagaze bemye, umuzungu wambaye ikoti ry'umukara, umupira wa shokora, inyuma yabo hari Computer zicanye, intebe zo kwicaraho z'umukara.

Abantu benshi bahagaze imbere y'umunara muremure bambaye imyenda y'umuhondo, impapuro mu ntoki baritegereza bareba uko bakora ibikorwa remezo baduha amashusho meza amajwi asohoka ari meza kugira tubashe kuvugana kureba amakuru agezweho.

Ni inzu nziza y'icyitegererezo, yubatse mu buryo bwiza, bubereye ijisho, bukurura ba mukerarugendo, bakaza kureba uko imeze, harimo amahoteri menshi yakira abantu, baje gusura, ibyiza bitatse u Rwanda.

Umukobwa uhagaze yambaye ipantaro, inkweto z'umweru, agapfukamunwa n'ingofero. Imbere ye hari moto zihagaze, ari kwerekana ko ari ubwoko bushyashya bwaje budakoresha moteri, bukoresha batiri bagacaginga. Twirinde kwangiza ibidukikije.

Abantu barimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo, moto ebyiri ziparitse bahagaze bari kuganira batarabona abagenzi, imodoka hirya umutaka wa emutiyene wo kubitsa no kubikuza, etaje ndende barimo kubaka itararangira.

Inzu size irangi ry'umuhondo n'icyatsi, urugi rwayo ni ubururu, inyuma hari ibyuma bishinze bicaho insinga z'amashanyarazi nyinshi, zidufasha kugirango two kuba ahantu hatabona mu iterambere ry'igihugu.

Ibiti birebire bishinze bishamikiyeho insinga z'amashanyarazi nyinshi zijya ahantu hatandukanye itara ryo kumuhanda tubungabunge ibidukikije kuko ari ingenzi ku gihugu cyacu twirinde abaduca intege babyangiza .

Ni inzu nyinshi z'akajagari zitari iz'icyerekezo, zisaje amabati atari meza, hanze hateye urutoki hirya hari inzu isakaje amabati meza, inyuma y'iyo nzu hari ipoto y'amashanyarazi nini cyane.

Ni umukobwa witinyutse uri mu kazi yambaye jire, ingofero y' akazi, imisatsi myiza ari mu cyumba kirimo imashini nini cyane ari gukoresha serivise zitandukanye.

Ipoto nini y'amashanyarazi ishamikiyeho insinga nyinshi, hirya yayo hari inzu ifite urugo rw'amatafari, abantu bicaye ku ruhande, igiti kirekire, imodoka munsi.

Imodoka y'umweru ihagaze, ururabo rwiza rw'umutuku ruteye ku ruhande. Umuzenguruko w'urugo wubakishije amatafari ahiye, igiti kirekire kiriho insinga zitwara umuriro ziwujyana hirya no hino.

Igiti kirekire cy'amashanyarazi gishamikiyeho insinga nyinshi, umukobwa ubona ko yambaye imyenda y'akaz,i ingofero, inkweto isarubeti ibyo yiziritse mu nda. Aragakora agakunze, natwe abategarugori dutinyuke dukore akazi kose nta na kamwe katunanira twihangira imirimo.

Antene ndende ihagaze isakaza amajwi n'amashusho, iruhande rwayo hari ibiti, hirya hari inzu, imbere hari ipoto ebyiri z'amashanyarazi, indabo ku ruhande.

Moto iri mu muhanda inyuma ye hari umugabo uhagaze uhetse igikapu wambaye ipantaro y'umukara ishati y'amaboko maremare, kamera yo mu muhanda ku ruhande hari inzu ifite igipangu cy'ubururu.

Ni ipoto ebyiri zishinze mu murima, hariho insinga nyinshi, amatara abiri, hirya hateye ibiti, ku ruhande hari urugo ruhinguka rwamatafari ahiye.

Imodoka zihagaze ebyiri inyuma hari umudamu wambaye ikanzu y'igitenge ahetse igikapu ku rutugu, umugabo uhagaze wambaye imyenda y'ubururu ari kureba muri terefone. Aabamotari bamutegereje bareba ko yaza akabateza imbere bakabona uko bibesha.

Urubyiruko rwihangiye imirimo yo gutwara abantu ku magare barahagaze bategereje abo bari butware kugirango babashe kwiteza imbere babone amafaranga ,imodoka ndende itwara abagenzi ibajyana mu bice bitandukanye .

Umutaka wa Mtnn ufunguye. Hirya yayo haparitse moto yicayeho umuntu, imbere hari umunyamaguru uri kugenda, ku ruhande hari ibiti byinshi, inzu ihinguka, ipoto y'amashanyarazi iriho insinga nyinshi.

Ni imodoka ebyiri ziri kugenda mumuhanda, kuruhande hari umumotari, hirya hari ipoto y'amashanyarazi iriho insinga nyinshi, abantu babiri bahagaze umwe ari kuri terefone,...

Sitasiyo ya enjeni iri ku ku muhanda hirya hari rompuwe ya jaride itara rihagazemo, ipoto ndende iriho insinga nyinshi, umumotari uhetse igikapu.

Inzu igaragara imbere gusa isize irange ry'umuhondo amadirishya ahinguka amabati ashaje, inyuma hari igiti kiriho insinga nyinshi cyane zijyana umuriro impande n'impande, igiti kinini cyane gitanga umuyaga amahumbezi.

Moto iri kugenda mu muhanda ihetse igikapu cy'icyatsi cya vuba vuba, twihangire ubucuruzi bwo gukwirakwiza ibicuruzwa byacu tubibashyira, ku ruhande hari amapoto y'amashanyarazi, amatara yo ku mihanda, ibiti byinshi cyane.

Ipoto nini ishinze muri jaride hirya hari amaduka ahinguka ariho imitaka imbere y'imiryango iya emutiyene, iya eyateri. Abantu ubona ko bari kugenda abandi bahagaze.

Twirinde kwangiza ibidukikije kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere twirinda abaduca intege bashaka kubyangiza, ibiti biriho insinga nyinshi zijya mu muhanda zitandukanye jaride hakurya igaragara.

Umutaka w'umuhondo wa emutiyeni, urimo abana batatu n'umukozi wa emutiyene urindiriye gutanga serivisi, hari igiti cy'ipoto y'amashanyarazi, igipangu kirimo inzu iriho antene ebyiri, igiti cy'amapera, inyuma yaho hari umusozi uteyeho ishyamba rinini cyane.

Inzu isize irangi ry'umuhondo, iruhande rwayo hari igiti kirekire gishamikiyeho insinga zitwara umuriro ziwujyana impande n'impande, umutaka wa emutiyene hicayemo umuntu uri gutanga serivise yo kubitsa no kubikura, umugana aje kureba.

Ibyuma bishinze birimo imashini yagenewe guteyirizwamo umuriro bawujyana hirya no hino, amazu ari hirya ariguhinguka, ibiti byinshi biteye ahongaho iruhande rwaho.

Inzu y'irangi ry'ubururu n'umutuku, imbere hari ikibanza kirimo imyumbati, ibigori, ipoto ishinze, iriho insinga zitandukanye, hirya hari inzu y'amatafari ahiye.

Ni salle nini ubona ko ari kwa muganga intebe ziteye mu mpande ebyiri zitandukanye, akagare batwaramo abarwayi bananiwe kugenda, hirya hari amadirishya akinguye.

Ni ivuriro rinini cyane ribereye amaso rigezweho, abantu baranyuranamo bajya gusaba serivise z'ubuvuzi zitandukanye, ikibuga cyo hanze kiza, intebe y'umweru iteretse, jaride ku ruhande.

Umuganga uri kugenda wambaye umwenda w'akazi, iruhande rwe hari umudamu wambaye imyenda myiza cyane ibereye umutegarugori. Arakenyeye, ahetse umwana, igikapu ku rutugu, arimo araseka bigaragara ko anezerewe kubera ko

Abantu babiri bicaye ku ntebe z'ubururu amataburiya y'umweru ubona ko ari abaganga, imbere yabo hari mashine bari gukoresha barebamo ibyo bakoze, ku ruhande puberi yo kujugunyamo imyanda kugira ngo twirinde ikwirakwiza ry'imyanda ya hato na hato.

Ivuriro rishakaje amabati, intebe nyinshi hanze, umudamu wambaye ikanzu y'umutuku umupira w'umweru bigaragara ko ari kureba mu isakoshi hirya hari abantu benshi bicaye bategereje.

Kwa muganga hari imodoka zagenewe gutwara abarwayi barembye zibavana ku bitaro bimwe zibajyana ahandi, abantu benshi bahagaze bitegereza bategereje guhabwa ubutabazi bw'ibanze kubayobora ubari imbere.

Umugabo wicaye ku ntebe wambaye agapfukamunwa, ishati yumukara, isaha ku kaboko, ubona ko ari mu gikorwa cyo gugirwa, muganga wicaye urimo kumutera urushinge ufite imisatsi idafirije.

Kwa muganga hari inzu nini cyane yubakishije amatafari ahiye, imodoka itwara abarwayi, abantu benshi barimo kugenda ubona ko bari gusura ibi bitaro bareba ibikorerwamo.

Kwa muganga baba bafite ubuzima bwacu mu maboko yabo, niho tugana igihe turwaye kugira ngo baturebere ikibazo dufite mu mubiri aho bitagenda neza baturebere imiti, abantu benshi barahagana bafite indobo bagiye kureba abarwayi bari mu bitaro cyangwa se bagiye kwivuza.

Inzu nini cyane ndende, yubatse ku muhanda igezweho, ifite ubusitani bunini, twiyubakire amazu meza duca nyakatsi hano iwacu mu Rwanda.

Abagororwa bari inyuma ya gereza b'abadamu benshi bari kugenda bari kumwe n'abasiriviya bari kubayobora aho bagiye gereza. Gereza igorora abafite ibyaha bakabihanirwa abarengana bakarenganurwa bagasubira mu miryango yabo, bigiramo byinshi.

Umugore wicaye hagati y'abamwunganira babiri afite impapuro nyinshi yambaye agapfukamunwa, imyenda imuranga, abamwunganira barimo baramwereka uko bari bubigenze abantu benshi bicaye inyuma baje kumva urubanza rwabo.

Umugabo ufite mikoro arimo gusobanurira abandi yambaye ikote, karuvate, isaha ku kaboko, imeza imbere iriho ibitabo, amazi yo kunywa,...

Imodoka zagenewe gutwara abagororwa basohokamo bambaye umwenda ubaranga agapfukamunwa, inkweto, bafunze amaboko, ushinzwe kubarinda ari imbere yabo arimo arabereka aho bagomba kunyura kugira ngo bajye kugezwaho.

Bamuhannye kubera ko atubahirije amategeko agenga igihugu cyacu. Inyuma ye hari umuporisi uhagaze urebe ibyo barigushyira mu bikorwa ndetse n'umuntu uhagaze ureberera ibyo bari gukora.

Abagabo babiri bunganira mu by'amategeko, hagati yabo hicaye umugabo w'umugororwa, imbere ye hari mikoro irambitse, imashini imbere yabo hari dosiye bareberwa bareberaho ibiregwa.

Abantu bicaye mu ntama bateze amatwi ibivugirwamo, ameza ariho igitambaro cy'umweru, mashine bandikamo ibivugirwamo, amazi y'inyange ateretse imbere yabo,...

Umugabo uhagaze utuje, yambaye na linete neza, ikanzu igaragaza ko ari umucamanza, afunze karuvati, ikirango cy'imbere ku ikanzu cy'umweru,

Ni intebe zicayemo abagororwa bane bicaye bategereje bifashe neza bigaragara ko bari kumva ibyo bari kubabwira. Umucamanza ahagaze imbere yabo yambaye ikanzu y'umwuga arimo kubabwira ibyo baregwa.

Umugororwa uhagaze mu rukiko wambaye imyenda y'iroze, afite abunganizi babiri bafite impapuro, umucamanza yicaye arimo kubasomera imyanzuro y'urukiko, imbere ye hari igitabo, impapuro.

Ni gereza nini cyane yubakishije amatafari ahiye abagororwa basohoka bajya mu mirimo itandukanye hirya no hino, hanze hari akazu karekare abashinzwe umutekano bicaramo bareba ibiri gukorerwaho.

Ni icyapa kinini kigaragaza ko ari aho bagororera abakoze ibyaha. Urugi rufunze imbere harimo abashinzwe kurinda umutekano w'abagororwa babereka uburyo bwiza bagomba kwitwara.

Abantu benshi bicaye mu rukiko, abagororwa bambaye imyenda ibaranga udupfukamunwa, bicaye bategereje kumva ibyo bari bubagezeho, imyanzuro y'ibyo baburana. Abacamanza bicaye bari kwandika mu mashini,

Ni umugabo uhagaze ubona ko arimo guseka yambaye amarinete, ishati y' ubururu iruhande rwe hari abapolisi babiri ubona ko bamutaye muri yombi inyuma hari idirishya rikinguye.

Umugabo wambaye ipantaro, ishati y'umukara, afite icupa ry'amazi mu ntoki, afunze amaboko bigaragara ko bamufashe hari ibyo aregwa, ajya kwisobanura. Umupolisi umurinze, yambaye umwenda w'akazi n'imbunda imbere.

Ni abunzi bicaye bambaye umwenda ubahesha uburenganzira bwo kuburanisha, imbere yabo hari ameza, umugabo uhagaze bigaragara ko bari kumusomera imyanzuro, inyuma hari abantu bicaye benshi bateze amatwi ibirikore

Abagororwa bahagaze bifashe neza bateze amatwi bari kumva ibyo bababwira abicaye bari kubasobanurira hari igiti kinini kiri hejuru inyuma yabo hari imodoka y'umweru y'ivatiri.

Sale nini yurukiko abacamanza benshi bicaye bategereje kumva ibivugirwamo intebe z'umutuku umudamu uhagaze amanitse akaboko arahirira ibyo agiye kuvuga ku idarapo rw'igihugu.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'ubucamanza, ubunganira hagati yabo, yambaye ikanzu y,umwuga, ateye aboko asobanuza ibyo bamubwiye kuko atabyumvise neza.

Sale nini yicayemo abagororwa intebe z'umukara bambaye imyenda ibaranga y'irozi n'udupfukamunwa biririnda indwara zandurira mu buhumekero, ibitabo ku mavi bari bureberemo ibyo bashinjwa, ababacunga bari inyuma yabo

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'umupira w'umutuku abapolisi babiri bamuri iruhande bambaye imyenda yakazi ingofero bamufashe amaboko bigaragara ko bashaka kumushyikiriza ubutabera.

Umudamu uhagaze atuje yambaye ikanzu y'umutuku bigaragaza ko ari umwenda w'ubucamanza. Imisatsi myiza, amaherena ku matwi, shanete mu gatuza,...

Umugabo wambaye ikanzu y'umweru n'ingofero mu mutwe afunze amaboko, abashinzwe umutekano bari impande ye bamwegereye bamucungira umutekano ngo hatagira ikintu kimuhungabanya agiye kumenyeshwa ibyaha yakoze maze abihanirwe.

Abagororwa babiri bicaye imbere y'inteko batuje bifashe neza, abantu benshi bicaye inyuma yabo bakurikiye ibyo bari kubarega inyuma hari urugo rw'imiyenzi ruhambirijeho urubingo.

Umukobwa mwiza wambaye imyenda y'abagororwa wifashe ku kananwa, amarinete meza, ingohe yasokoje neza, umusatsi yawogoshe inyuma ye hari ushinzwe kubarinda abantu benshi bicaye bategereje

Abagororwa babiri bahagaze bambaye umwenda ubaranga. Bifashe neza. Bari imbere y'abacamanza. Barimo kumva ibyo babasomera kugira ngo bisobanure. Ubahagarariye mu mategeko uba iruhande.

Ni etaje igaragaza ko iriho icyapa cya zigama siyesesi ni banke yo kubitsa no kubikuza imbere yaho hicaye abayigannye, inyuma hari imodoka ya polisi, umupolisi uhagaze bigaragara ko ari kuyobora abantu.

Umuntu wicaye mu modoka, areba umupolisi imbere ye, ari kumusaba ibyangombwa. Yambaye imyenda y'akazi yanditseho polisi, Rwanda polisi, abapolisi badufasha byinshi mu buzima, baturindira umutekano w'ibintu n'abantu.

Umuntu uri kugenda mu muhanda wambaye ishati y'igitenge ipantaro, umupolisi uhagaze uri kurinda umutekano w'ibintu n'abantu umunyegare upakiye igorofani iriho imifuka myinshi.

Abantu benshi bahagaze mu kibuga barimo kwitegereza umupolisi uri imbere yabo gufata icupa ry'umutuku ryagenewe kwifashisha igihe habaye inkongi y'umuriro ya hato na hato, umupira ucometse ukanda ukerekana uko wabigenza twirinde impanuka.

Ikimodoka cy'umuhondo kinini gihagaze mu muhanda, gifasha abantu iyo habaye impanuka y'inkongi y'umuriro, gicometsemo umupira w'umutuku, umuntu uwufashe yambaye imyenda yabugenewe arimo agerageza kuzimya imodoka yagize ikibazo

Ni mu muhanda, imirongo y'umweru iciyemo yagenewe aho abanyamaguru bambukira ku burenganzira bwabo, abantu benshi barimo kugenda, umupolisi uhagaze areba umutekano w'abanyamaguru, imodoka, kugiranngo hatagira uhugira.

Ni ivatiri iri mu muhanda bigaragara ko bayihagaritse, umuporisi ahagaze ufite perime mu ntoki n'akamashini arimo asuzuma ibyangombwa. Yambaye imyenda y'akazi ingofero mu mutwe.

Ni imodoka nyinshi zihagaze zikora serivisi yo kuzimya inkongi y'umuriro, abapolisi bahagaze imbere bigaragara ko bagiye gutabara, abantu benshi bahagaze bitegereje, ibiti nyuma yaho

Etaje nini ndende, imbere yayo hari abantu benshi, abagenda, abahagaze, mu muhanda hari moto, umunyamaguru wikoreye umufuka, ku ruhande hari umupolisi uhagararanye n'undi muntu bari kuganira

Mu muhanda munini abanyeshuri barimo kugenda bava ku ishuri. Inyuma yaho hari inzu isize irangi ry'umutuku abashinzwe umutekano bahagaze bareba ibinyabiziga uko bigenda abantu ko nta muntu urenganya undi.

Imodoka iri mu muhanda itanga serivisi yo kuzimya umuriro, imbere yayo hari imodoka ya Kwasiteri itwara abagenzi, inyuma hari igiti kinini cyane, ku ruhande hari inzu isakaje amategura.

Abantu benshi bari kugenda mu muhanda bari mu byerekezo bitandukanye. Umukobwa wambaye ipantaro n'ishati y'amabara avanze ahetse igikapu ku rutugu, umupolisi uhagaze wifashe neza ari kureba uko abantu bari kugenda ndetse n'ibinyabiziga abarindira umutekano.

Icupa ry'umutuku rimanitse ku nzu ricometseho umupira w'umukara, rikoreshwa igihe habaye inkongi, ni ryo ryifashishwa igihe tugitegereje ubutabazi bw'ibanze kugirango inkongi idakomeza gukwirakwira cyane.

Umupolisi uri mu muhanda arambuye akaboko yicaye kuri moto ahagarika imodoka, hirya y'umuhanda hari ipoto ebyiri z'amashanyarazi, umuntu uri inyuma y'imodoka, ibyatsi biteye impande yaho.

Ushinzwe umutekano ahagaze mu muhanda yambaye imyenda y'akazi, inkweto, ipantaro, ingofero. Imbere ye hari umumotari uri kugenda afite ingofero yambika abagenzi mu ntoki. Moto iradufashe mu buryo busanzwe dukora ingendo.

Moto nyinshi cyane zihagaze abamotari bazicayeho bambaye imyenda y'akazi, ingofero zabugenewe mu mutwe, umupolisi uri imbere yabo abereka uko bagomba kwitwara.

Abapolisi bahagaze mu kibuga bambaye imyenda y'akazi, inkweto amashati, amapantalo n'ingofero, imbunda mu ntoki, gurude ku mufuka wo kuruhande ibikapu bahetse ubona ko bagiye mu butumwa bw'akazi.

Umuryango abantu binjiramo bajya gushaka ubufasha kuri polisi yacu y'igihugu abahagaze bambaye imyenda y'akazi bafite imbunda bari gucunga umutekano waho kugira ngo hatagira uhahungabanya.

Abapolisi benshi bahagaze mu kibuga, bambaye imyenda y'akazi, imbunda imbere, hirya yabo hari imodoka ihagaze, inyuma y'igipangu hateye ibiti byinshi,...

Umupolisi uri mu muhanda wambaye agapfukamuwa, imyenda y'akazi ari gutanga amabwiriza ngenderwaho mu muhanda, inyuma ye hari abamotari bahetse abagenzi, imodoka nyinshi, ku ruhande hari jaridi nini abantu bahagazemo.

Abantu batatu bicaye ubona ko bateze amatwi imbere yabo hari igitambaro cy'umweru, amazi ya Nil ateretse uhagaze afite mikoro ubona ko ari kubagzaho imigabo n'imigambi ye inyuma ye hari icyapa kiri kwamamaza ishyaka tya gurini pati.

Umudamu mwiza uhagaze, ufite umusatsi wa natirere, uri guseka, yambaye ishati y'umweru, igitenge yakenyeye neza, isaha ku kuboko, impeta ku ntoki, inyuma ye hari ibiti byinshi,...

Perezida wa Repubulika y'Igihugu cyacu Paul kagame, aratambuka neza cyane imyenda myiza, ipantaro y'umukara, ishati, araberewe. Ni umuntu w'inyangamugayo w'intwari w'indashyikirwa.

Ni abadepite benshi bicaye mu nteko nshingamategeko, bahuje umugambi, bareba ibyateza igihugu cyacu imbere, ameza ariho mikoro bavugiraho, amazi yo kunywa y'inyange imbere yabo.

Ni umukandida perezida, inyuma ye hari abagabo bamurinze , afite mikoro mu ntoki arikuvuga imigabo n'imigambi azageza ku banyarwanda, yambaye ishati y'umweru, afite umusatsi afite umutegamatwi urikumva ibyo atugezaho.

Ni shuri ry'amatafari ahiye amadirishya y'ubururu, inkingi z'ubururu, agatako kagaragaza ibendera ry'igihugu, abantu batoye umurongo bashaka kwinjira ngo bajye mu matora, ubakiriye na we ahagaze mu muryango areba ibibaranga.

Umukandida perezida ufite urupapuro mu ntoki yazinze ari gushyira mu gasanduku, yambaye ikote ryiza cyane ishati y'umweru imisatsi yasokoshe neza ku ruhande rwe hari umugabo uri kumureba ufite ajenda mu ntoki.

Abantu batatu bahagaze hagati hari ufite impapuro yambaye ikote, ishati y'umweru arimo arababwira abagezaho imigabo n'imigambi ye ko azakorera igihugu cye neza hirya hari abamurindiye umutekano.

Icyumba cy'itora abantu baricaye bategereje ko bafungura bagatangira kwitorera, abari imbere yabo bari gufungura udusanduku twagenewe gushyiramo impapuro babereka ko ntazo bahereyeho ko batorera mu mucyo.

Umugabo wambaye imyenda y'icyatsi ari mu modoka hejuru amanitse akaboko ari guseka, iruhande hari abantu benshi bamweretse ko bamwishimiye, ari kwiyamamaza kuba umukuru w'igihugu, ari kubagezaho ibyiza azabakorera.

Abantu benshi bicaye bakoze uruziga, bishimye baseka bambaye neza. Umukuru w'igihugu wacu, yicaye ku ntebe hagati yabo, arimo arabaganiriza anezerewe, abagezaho ibyo bagomba gukora bihesha igihugu cyacu agaciro.

Abamotari bari mu muhanda batwaye abagenzi. Hirya y'umuhanda hari uruzitiro rw'amabati. Inyuma hari etaje nziza cyane. Imbere y'uruzitiro hari icyapa cyanditseho gutora umukuru w'igihugu wacu.

Ahagaze mu kibuga agaragaza imigabo n'imigambi ye mikoro ishinze imbere ye akenyeye umukenyero mwiza cyane, inyuma ye hari abantu bicaye bateze amatwi ibyo ari kubagezaho inzu kuruhande.

Umugabo wambaye ishati y'umweru harimo utubara tw'icyatsi n'umuhondo azamuye akaboko ari guseka abwira abantu ibyo azabageza udamu umuri iruhande amuherekeje n'abandi benshi.

Umugabo uhagaze, wambaye ipantaro y'ubururu, ikote, umupira w'umweru, imbere hari irangururamajwi, arimo aravuga ateze amaboko bigaragara ko hari icyo ari kubagezaho, abicaye bamuteze amatwi.

Inzu mberabyombi ikorerwamo inama, hakaba harimo haraberamo inama y'abantu benshi batandukanye, bicaye ku ntebe z'imikara bazengurutse, n'abandi bicaye ku ntebe z'imikara inyuma yabo hari imeza imwe ifite ibara ry'umutuku kuri ayo meza harihoho amatelefone n'amamikoro yo kuvugiramo.

Abantu bane bahagaze bifashe neza, umukobwa wambaye ipantaro y'umukara y'amabara aravanze afite impapuro mu ntoki ubona ko ari gusoma uhaga irangururamajwi mu ntoki arimo arabagezaho ibyo azakorera igihugu cyacu kugirango tumugirire ikizere, nawe tumutorere.

Urubyiruko rwateze amaboko rwishimye ruri kubyina rwisize amarangi atandukanye; ubururu, umweru, umutuku, biragaragara ko banezerewe, tuzi yuko aribo maboko y'igihugu.

Mu masaha ya nijoro mbere yanjye ndahabona etaje y'ubucuruzi, aho hasi hari icyapa cyanditse ngo Simba Gishushu, ndabona na none icyapa kigaragaza y'uko nta parikingi ihari, hakaba hari n'intebe za parasitiki z'umuhondo ndetse n'izitukura n'utu meza twazo.

Umudamu wicaye yambaye umushanana mwiza, umupira w'ubururu, amaherena ku matwi, ari kuvuga ubona ko hari umuteze amatwi, imbere ye hari agacupa k'amazi y'inyange, hirya hari umugabo umuhanze amaso, umubaye hafi, ubona ko amuteze

Abantu batatu bahagaze bamamaza umukandida wabo Bikorimbere. Urupapuro rw'imigabo n'imigambi, abicaye inyuma bateze amatwi, iruhande rwabo hari amazu y'ubucuruzi.

Umugabo uhagaze, wambaye ipantaro y'umukara inkweto, ikote, ishati y'umweru, afite impapuro mu ntoki, imbere ye hari irangururamajwi ari kuvuga, ageza ku bamukurikiye, inyuma ye hari abicaye bamuteze amatwi, bamuhanze amaso.

Abantu benshi cyane bakikije umukuru w'igihugu wacu, bafite amadararapo mu ntoki bayamanitse, bishimye, baseka, ahagaze hagati yabo, yambaye ishati y'umweru, yazamuye akaboko arimo abasuhuza, abanezerewe, ababwira ko abakunda kandi ko abitaho.

Umugabo uhagaze wambaye ipantaro y'umukara, inkweto ishati y'amaboko aciye y'umweru, afite irangururamajwi mu ntoki, azamuye akaboko arimo kuvuga ageza ku bamukurikiye, ibyo yabateganyirije abahagaze hirya bamuteze amatwi.

Umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru, ipantalo y'umukara, mikoro mu ntoki, ubona ko ari kuvuga. Iruhande rwe hari abadamu babiri, umwe wambaye imyenda y'umutuku, furari mw'ijosi, ufite impapuro, ari gusoma.

Urubyiruko rwishimye runezerewe rwose, barimo kubyina bazamuye amabendera yabo, bambaye ingofero imyenda y'umweru, ubururu, baranezerewe. Barimo kwamamaza umukandida wacu perezida

Ni sitade irimo abantu benshi cyane podiyumu irimo tapi yumutuku perezida ahagaze n'umugore we umucamanza w'urukiko rwiikirenga ahagaze wambaye ikanzu yumutuku ategereje kumva indahiro idarapo hagati.

Umubyeyi w'umuhanga, ubushishozi, inyangamugayo, igitabo cyiza mu ntoki, azengurutswe n'indabo nziza cyane zitohagiye by'umwihariko umusatsi mwiza.

Umukobwa mwiza wambaye ikanzu y'umutuku, amaherena ku matwi, umusatsi mwiza, afite akanyamuneza arimo guseka. Afite indangururamajwi mu ntoki, arimo aravuga yifitiye icyizere, bigaragara ko ibyo avuga abikuye ku mutima kandi abyizeye.

Abantu benshi cyane bari mu kibuga kinini bafite amadarapo mu ntoki, perezida wacu yambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umweru, abapolisi inyuma bamuherekeje, abari imbere.

Louise Mushikiwabo yambaye neza, ari guseka neza, umusatsi mwiza yaryamishije ku mutwe, ni umudamu w'intwari ukora cyane, ni umuyobozi ukomeye w'ububanyi n'amahanga arakunzwe.

Abantu bicaye mu nteko, bigaragara ko hari ikintu bari gutorera, imbere yabo hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umweru afite agaseke mu ntoki agenda abahereza bashyiramo udupapuro banditse, ameza ariho amazi yo kunywa.

Ikibuga kirimo abantu benshi cyane, hakurya hariba umusozi uhinguka, umukuru w'gihugu wacu ari imbere ahagaze yambaye neza ipantaro y'umukara, ishati y'umweru, ingofero aranezerewe arimo kubabwira imigabo n'imigambi ye.

Imodoka nini cyane itwara imizigo iyijyana hanze cyangwa iyivanayo iri mu muhanda irimo kugenda imbere yayo hari abamotari, kuhande hari imodoka iparitse.

Igikamyo kinini kuri mu muhanda cya shokora n'umweru, ku ruhande hari ruhurura nini, hirya hari korotire y'amabati y'icyatsi, ibiti byinshi biri ku ruhande...

Imodoka ebyiri ziri kugenda mu muhanda umuntu uri kwambuka, hirya hari sitasiyo itanga esanse, ku ruhande hari ikigega cy'amazi, abamotari baparitse hanze, ipoto y'amashanyarazi, igipangu kihazengurutse.

Ni imodoka y'mweru itwara inyama izigemuye hirya no hino inyuma hari abamotari batwaye abagenzi, amapoto y'amashanyarazi umusozi uri hakurya uriho ibiti byinshi.

Imodoka nini ihetse amakara itwikirijeho ihema ry'ubururu. Mu muhanda ku ruhande hari abantu bahagaze bari kureba uburyo iri kugenda, amazu haruguru menshi ahakikije, imiti...

Umudamu wicaye ku muhanda acuruza ibiribwa bitandukanye imiteja, inyanya, ibitunguru. Inyuma ye haparitse ingorofani itwara imizigo, mu muhanda hari kugenda moto ishakisha abagenzi.

Abamotari bagenda mu muhanda batwaye ibinyabiziga, iruhande hari inzira y'abanyamaguru irimo abantu, hirya hari ipoto y'amashanyarazi, ibiti byinshi byiza.

Imodoka nini y'umweru itwara imizigo, ifite amapinane, itwaye ibintu byinshi hariho shitingi y'ubururu abantu bahagaze bategereje kureba ko igiye gupakurura bakabaha akazi na bo bakabona amafaranga.

Moto yagenewe gutwara imizigo, ifite amapine abiri inyuma na rimwe ritoya imbere, igezweho, ifasha abantu mu gutwara ibintu bitandukanye kandi byihuse byoroshye irafungwa inyuma.

Imodoka y'ubururu iri kugenda mu muhanda ifite amapine abiri imbere, abiri inyuma, yikorera ibikoresho by'ubwubatsi, inyuma hari umunyegare ku ruhande hari umunyamaguru uri kugenda wambaye ipantaro y'umukara ari kugenda yihuta.

Akamoto gatwara imizigo kari mu muhanda kuruhande n'inyuma hari imodoka, hirya hari abantu benshi cyane, jaride iteye ku ruhande amapoto y'amashanyarazi.

Imodoka nini y'umweru n'umuhondo, iri kugenda mu muhanda, ikunda gutwara ibikoresho by'ubwubatsi, yoroshya ubuzima ntitwara amafaranga menshi, kubera yo ubwayo ishobora kwipakurura ubwo abantu ntibahendwe.

Imodoka yumweru n'ubururu igenda mu muhanda itwara imizigo myinshi, iruhande rwayo hari umukarani arimo aragenda ayikurikiye kugirango ajye kuyipakurura, hirya hari abamotari batwaye abagenzi, ku ruhande hari ibiti byinshi cyane bihazengurutse.

Ni umushoferi wicaye mu modoka atwaye amakesi ya burarirwa menshi iruhande rwe hari umotari utwaye abagenzi hari n'amabati y'icyatsi.

Aha ngaha hari isoko ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, harimo imboga zitandukanye z'amoko menshi, harimo inyanya, intoryi, sereri karoti pavuro harimo ndetse n'indobo zirimo ibindi bicuruzwa birimo ubunyobwa, ndetse n'ibindi birungo bitandukanye byifashishwa mu guteka.

Ni ikimoto gito gitwaye imizigo, kiri mu muhanda, hirya hari kwasiteri zitwara abantu, imbere hari abakataje, bagiye kujya muri izo bisi.

Imodoka nini cyane y'umweru itwaye insinga nyinshi zihambiriye ku ruhande hari abamotari batwaye abagenzi, idufasha kugira ngo dukore urugendo rwihuse kandi ruciriritse umbyeyi utwaye amagi agiye kuyagurisha.

Imodoka ebyiri zirimo kunyuranao mu muhanda z'umweru, hagati hari umumotari uhetse umugenzi, tuziko moto idufasha mu gukora urugendo rwihuse kandi rworoshye, ahandi hari umuntu uri kugenda n'amaguru wambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'umukara, supresse; hirya hari ibiti byinshi cyane bizengurutse umuhanda.

Ni imodoka eshatu ziri mumuhanda zifite ibyerekezo bitandukanye, hagati harimo umumotari uhetse umugenzi bambaye kasike, kuruhande hateye ibiti byinshi cyane.

Imodoka nini cyane itwara abagenzi ni ndende ifite imyanya myinshi yaba iyo kwicara, iyo guhagarara, ifasha abagenzi kugenda ari benshi ntibasigare. Moto iri mu muhanda uhitse umugenzi.

Ikamyo nini y'umutuku igenda mu muhanda ipakiye umucanga, imbere yayo hari umuntu uhagaze, hirya hari koritire y'amabati y'icyatsi, ifoto y'amashanyarazi ibiti birebire,

Umumotari uri mu muhanda uhetse umugenzi, bafashe urugendo kugira ngo amugeze iyo bagiye, amuhe amafaranga undi na we akomeza gahunda ze. Indabo zigabanya umuhanda n'undi, umumama wunamye ari kuhakora isuku, imikindo myiza cyane igaragaza ubwiza.

Kwasiteri y'umweru ya Siterara iparitse muri gare, hirya hari abantu bari kuza bayigana, hakurya hari inzu y'ubucuruzi irimo ibintu,...

Imodoka nini cyane itwara abagenzi, iruhande rwayo hari abamotari batwaye abagenzi babageza aho bababwiye, amapoto y'amashanyarazi azengurutse uyu muhanda, ibiti byiza cyane,

Imodoka nini cyane ifite amapine menshi y'ubururu, yagenewe gutwara abagenzi benshi kandi mu gihe gitoya, hari abagenda bicaye, bahagaze, iparitse muri gare itegereje abo iri butware.

Moto nyinshi ziri mumuhanda zihetse abantu umunyegare uri inyuma yabo ikimodoka kinini cyane cya shokora n'umweru ipoto y'amashanyarazi ndende amatara yo kumihanda

Imodoka isize irange ry'ubururu umuhondo inyuma ipakiye imizigo, itwikirije ihema rihambiriye, imbere hari utumoto dutoya twagenewe gutwara imizigo.

Imodoka nini y'umweru iri kugenda mu muhanda ifunze inyuma ifite amapine abiri imbere andi inyuma, umuntu wikoreye umufuka uyiri iruhande bigaragara ko hari aho ajyanye, hakurya hari umuntu wambaye umwenda w'umuhondo.

Abanyonzi bahagaze bahuje umugambi bategereje abagenzi mu muhanda munini inyuma yabo hari ipoto y'amashanyarazi kumpande hari jardin irimo udutara tunyenyeretse twiza cyane.

Imodoka y'umweru, ifite amapine ane, iri mu muhanda irimo kugenda, igenewe gutwara imizigo, ibintu bitandukanye kugira ngo ibashe gukorera amafaranga, uwayiguze na we agire icyo abona, umukobwa uri mu muhanda wambaye ikanzu.

Ni imodoka ebyiri ziri mu byerekezo bitandukanye, hirya hari urugo rufite korotire yi'cyatsi, kuruhande hari umunyamaguru ugenda, inyuma y'uruzitiro haparitse imodoka.

Ikamyo nini cyane y'icyatsi ipakiye umucanga, iruhande rwayo hari umunyegare utwaye imizigo, imbere hari umugabo w'umunyamaguru, kuruhande hari uruzitiro rukikijwe n'ibiti byinshi.

Motari uhetse umugenzi ari mu muhanda yambaye kasike, iruhande hari inzu yubakishije amatafari ifite korutire y'ibyuma by'umweru, hejuru hari ipoto y'amashanyarazi, igiti kiza.

Ni ikamyo nini y'ubururu n'umweru iri mu muhanda imbere hari imodoka y'umutuku, umumotari utwaye moto, inyuma hari igiti kuruhande hari icyapa cyamamaza imitsingi.

Moto nyinshi cyane zitegereje abagenzi, bambaye umwenda w'akazi bategereje abo batwara kugirango babashe kwiteza imbere, idufasha mu kugenda byihuse kandi byoroshye kumafaranga atari menshi.

Moto ihagaze mu muhanda iriho kasike ebyiri, inyuma yaho hari moto nyinshi ziparitse, urugo rw'amatafari ahiye, hirya hari umuhanda urimo abantu bari kugenda b'abanyamaguru, ibiti ku ruhande, ipoto

Imodoka yo mubwoko bwa mitsubisi iri mumuhanda ifunze inyuma, imbere hari umumotari, kuruhande hari ruhurura nini, hirya hari ibiti birebire, imodoka ya rukururana y'ubururu.

Ni imodoka y'ubururu igenda mu muhanda ifunze inyuma hose, imbere harimo umushoferi utwaye, ku ruhande umumotari utwaye umudamu umufuka uteretse imbere mu mahembe bambaye kasike bose.

Umugabo wicaye ku kamoto gatoya gatwara imizigo kariho shitingi y'ubururu handitseho pirimusi, hirya hari korotire y'icyatsi, hakuno urabonamo jaride.

Imodoka y'umweru n'umuhondo ikoreshwa mu bucuruzi bwo gutwara ibintu n'abantu, iyo udashaka kuba wagenda n'imodoka yawe cyangwa kugenda ubyigana n'abandi, yoroshya ubuzima kuko irihuta ntaho ihagaze.

Akamoto gato gatwara imizigo kari mu muhanda, koroshya ubuzima kuko buri wese akisangaho, yaba afite amafaranga make abona ikimufasha, umunyegare uri iruhande rwaho utwaye umufuka munini.

Imodoka nini itwara abagenzi iri mu muhanda, ku ruhande hari umugabo ugenda n'amaguru, imbere hari moto ihinguka gato, hakurya hateye ibiti byinshi.

Imodoka nini cyane zitwara imizigo ziyivana hirya no hino, umuhanda munini hirya hari ibiti byinshi. Ruhurura itwara amazi mabi, ikiraro cyo kwambukiraho abanyaguru.

Ikimodoka ari kinini gitwara imizigo kiyivana hirya no hino, kiriho shitingi y'icyatsi, ku ruhande hari uruhurura nini cyane itwara amazi mabi, iyajyana aho yagenewe, hirya hari ibiti bifasha kutagira isuri igere mu muhanda.

Imodoka itwara abagenzi nini cyane, iri mu muhanda, imbere yayo hari abantu barimo kugenda mu byerekezo bitandukanye, umudamu ufite agafuka mu ntoki, uhetse agakapu, yambaye ipantaro y'umweru, inkweto za supuresi, arimo aragenda mu muhanda yihuta. Ku ruhande hari abantu bahagaze barimo kuganira

Ni inzira y'abanyamaguru nta modoka n'imwe icamo urisanzura, ukicara ukaganira ukajya mu mahumbezi meza cyane, ni ahantu habereye ijisho. Dutembere twicara mu mugi wacu ukeye kandi usukuye.

Ni aho bidagadurira ababyeyi benshi bajyanye abana kugirango bajye kwinezeza bahure mu mutwe, bakine, bishime, bamenyane n'abandi. Bituma umwana aruhuka mu bwonko, akabasha gutekereza neza ntaheranwa na bimwe akabona ibindi.

Etage ndende iriho ikigega hejuru, mu umuhanda hari abanyamaguru bateye intambwe bari mu byerekezo bitandukanye, amarembo yumukara, hicaye abantu bari kuri terefone.

Ni umuhanda muremure w'icyatsi ukorerwamo igorora mubiri, hirya yaho hari ipoto y'amashanyarazi, imbere yaho hari jaride iteye neza.

Umugabo uhagaze ufite igikapu ku rutugu, yambaye ishati y'amaboko maremare, ipantaro y'umukara, inkweto, kuruhande rw'umuhanda hateye umukindo, ibiti byinshi, hejuru hari icyapa kigaragaza ibyerekezo.

Itaje ndende y'ibirahure by'ubururu, imbere yayo haparitse imodoka, mu marembo hari abantu binjira n'abasohoka, hanze hari icyapa kibuza abanyegare kuhaza, imbere harimo igiti kinini kiza.

Icyapa cyo ku muhanda kigaragaza ko guparika aho hantu bitemewe, umumotari uparitse, insinga ndende ziri ku ipoto nyinshi, jaride igaragara ku rugo rw'amatafari imbere hari ibipango byinshi.

Ni etaje ndende, inyuma yayo hari abantu batatu bari kumanika icyapa kigaragaza ko muri icyo cyerekezo hari kamera bagomba kuhitondera, hari urugo rw'ibyuma.

Jaride nini nziza cyane ikikijwe n'imikindo myinshi y'ibiti bisanzwe bizana akayaga, ni uburuhukiro bw'abantu, ukicaramo ugatekereza neza, kuruhande hari kaburimbo nini.

Umukobwa uhagaze muri jaride uri kwifotoza yasetse ahagaze munsi y'icyapa gitanga ikaze mu Rwanda i wacu, hirya ye hari umuhanda, insiga z'amashanyarazi, amatara, hakurya hari ishyamba rinini

Ni ahantu habugewe ho kuruhukira ugatembera ukicara ahantu hari ibiti byinshi bitanga umuyaga ukumva umeze neza. Umugabo uri kumuryango ureba abinjira n'abasohoka.

Imodoka ebyiri zigenda mu muhanda, ku ruhande hari jaride ikase neza inyuma hari igiti kirekire, hakurya hari etaje ndende iriho resitora, iteyemo indabo

Umumotari uhetse gaze ugenda mu muhanda, hirya ye hari umuntu ukataje agiye gusenga. Mu nzu y'Imana, ibiti birebire byiza, insinga z'amashanyarazi, jaride,..

Umumotari uhagaze mu muhanda yambayeye imyenda y'akazi iva mu mutwe, ategereje umugenzi yatwara, inyuma ye hari ibiti bihateye, imodoka ziparitse.

Ikigo cy'amashuri kirimo abana bicaye mu myidagaduro barimo gukina, bambaye imyenda y'ishuri ibaranga, ibiti ku ruhande byiza bituma bagira akayaga, tuzi yuko kwidagadura tugakina, tugaseka bigira icyo byongera mu buzima bwacu.

Umuhanda w'amabuye, iruhande rw'aho hari igipangu gikorutijwe amatafari ahiye, kigaragaza nimero ikiranga, ipoto y'amashanyarazi irimo insinga nyinshi, ibiti

Etaje ndende ifite igisenge cyiza, hejuru hariho umurindankuba ku ruhande hariho icyapa cyamamaza umupira.

Abantu babiri bagenda mu muhanda hakikije amazu impande zitandukanye; igiti giteye mu gipangu, ikigega cy'amazi kirimo imbere, ibiti bizengurutse ibipangu.

Yicaye ku muryango ategereje kuyobora abamugana, hahagaze umuntu witwikiriye umutaka, haparitse imodoka nyinshi cyane na moto zitegereje gutwara abantu.

Abantu babiri bari mu muhanda barimo kugenda, umukobwa uhetse agasakoshi imbere, inyuma hari umutaka wa MTN, ku mpande hari ibiti, amazu ari kumurongo, imbere hari abamotari babiri baperitse.

Imodoka ziri mu muhanda munini w'ibyerekezo bitandukanye, inyuma hari moto ihetse umugenzi, jarde zigabanya imihanda. Hirya hari inzu isakaje amabati y'ubururu, imikindo iteye kuruhande.

ikamyo mu muhanda y'umweru itwaye umucanga igeze aho abanyamaguru bategera imodoka imere hari umumotari uhetse umugenzi impande hari ipoto y'amashanyarazi ibiti byinshi bikikije umuhanda.

Icyumba kigaragara nkaho hari ahantu bigira ikoranabuhanga, hari abagabo babiri ndetse hari n'undi utari kugaragara neza, umwe yambaye ishati y'iroze undi yambaye ishati y'umutuku irimo utubara tw'umukara, imbere yabo hari amaterefoni menshi bigaragara ko bari kwihugura.

Umuhanda w'amabuye muremure, harimo umunyamaguru uri kugenda, icyapa kiri ku ruhande kigaragaza ibyerekezo by'umuhanda, ibyatsi byiza cyane byikije, ibiti bizengurutse uwo muhanda.

Umuhanda w'ibyerekezo bibiri bitandukanye, urimo imodoka z'amoko yose, hirya hari ipoto y'amashanyarazi, inyuma hakaba ishyamba;

Ikamyo itwara umucanga iri mu muhanda, inyuma hari moto ihetse umugenzi, hirya hari ivatiri, akazu k'abanyaaamaguru, aho bategera imodoka, inyuma hari ishyamba rinini.

Umumotari uri mu muhanda uhetse umugenzi, inyuma ye hari umuntu utwaye igare wambaye umupira w'umukara ipantalo y'umweru, hirya haparitse amakamyo maremare apakiye amakontineri.

Ni mu muhanda haciyemo imirongo y'umweru abanyamaguru bari kugenda bambuka, ni ahantu hagenewe uburenganzira bw'abanyamaguru bavogerwa kugira ngo babashe kujya mu muhanda. Umumotari uhetse umugenzi.

Umuhanda munini hirya haparitse imodoka ebyiri n'umumotari uhetse umugenzi ubona ko ari kugenda, hirya hari ibiti byinshi tuziko bidufasha mu kuzana umuyaga, gukurura imvura ntitugire ubutayu.

Ni umuhanda ufite ibyerekezo bitandukanye, abamotari babiri bahetse abagenzi, hirya hari umukindo, hirya cyane nanone hari amapoto, ibiti byinshi cyane,...

Umuhanda uriho amatara menshi, adufasha kugenda habona nta mwijima, ntawakwambura kuko habuditse n'ibikorwaremezo by'igihugu cyacu. Icyapa ku ruhande kigaragaza uburenganzira bw'umunyamaguru bwo kwambuka, ibiti byinshi

Umumotari uhagaze ku ruhande, yambaye umwenda w'akazi, ingofero mu mutwe, ateze amatwi uri kumubaza aho bagiye niba ahazi. Umugabo uhagaze uhetse igikapu wambaye ishati, ipantaro, ategereje ko umumotari amugeza aho agiye.

Ni ikirararo kirekire cyane kiririho imodoka itwara abagenzi, munsi hari moto igare ritwaye umugenzi hari umunyamaguru hirya hateye ibiti byinshi.

Ni umuhanda munini w'ibyerekezo bitandukanye, ku ruhande hateye jardin, amatara ku muhanda hirya hari etage ndende, ishyamba.

Ikamyo ndende y'icyatsi, ihetse kontineri ya shokora, igiye guca munsi y'ikiraro kirekire, ku ruhande hari abanyamaguru bagenda, hirya hateye ibiti byinshi, ipoto,...